Abasirikare bari ku murongo benshi. Abasirikare bambaye inkweto z'umukara na inifomu irimo icyatsi kibisi. Bamwe muri aba basirikare bambaye amasaha ku kuboko.

Abagore bane bari mu nama, imbere yabo ku meza hari mikoro, ndetse mu bagore bane harimo babiri bambaye amataratara abandi babiri ntibambaye amataratara.

Umusore w'intore afite icumu ndetse afite n'imigara, yambaye ibintu bitukura, ku ruhande rwe hari umusore wambaye karuvati afite gitari, ndetse ku rundi ruhande na rwo, hariho undi mugenzi we ufite gitari ndetse ari gukoma amashyi.

Mu ishyamba hariho umwami ndetse n'abagaragu bafite amacumu bambaye imyenda y'umweru basa nkabari kwivuga, hari abandi bahagaze abandi baricaye ndetse nundi uri mu kirere.

Abanyeshuri baba mu itorero ryo kubyina, barabyina bambaye imyitero, ndetse bamwe bambaye inifomu y'umweru ndetse na kake, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Umukecuru ufite ikibindi ari guteka aricaye. Iruhande rwe hari inzu, arashaje cyane yiteza igitambaro mu mutwe.

Burutufu y'umweru, irimo utuntu tubiri, tugira utuntu tubiri two gushyira mu matwi, irambitse ku kintu gitukura gisa nk'igitambaro, burutufu ifite ndetse n'igifuniko cyayo cyo kuzishyiramo.

Insinga nyinshi zitandukanye, harimo izifite amabara y'umuhondo n'izindi zifite ibara ry'umutuku n'izindi zifite ibara ry'icyatsi n'izindi zifite ibara ry'umukara, ziri ku murongo zitondetseho.

Ibiro by'akarere ka Gakenke, lntara y'Amajyaruguru iherereye mu karere ka Gakenke, ni akarere kadafite etaje.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto iri gukata ikorosi. Hakurya hariyo icyapa, haruguru hari umukingo. Hirya hari amashyamba arimo ibiti bitandukanye.

Inzu iri mu cyaro, hari umucanga, amapoto y'amashanyarazi, n'imisozi miremire. Hakikijwemo n'umusarani ndetse n'amazu ku ruhande rw'inzu bari kubaka.

Mu giturage harimo aba agenti, imitaka n'urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bagenda mu byerekezo bitandukanye harimo na moto.

Inzu zitandukanye, zubatse kuruhande hari indabyo, zubakishije amabati ashaje, hariho n'iyindi yubakishije amategura, izi nzu kuruhande hari n'uruzitiro ruriho ibyuma.

Abasenyeri bambaye ibikanzu bitukura ndetse n'amafurari y'umukara bahagararanye n'abagabo bambaye amakote, ndetse inyuma yabo hari abagore bambaye ibintu by'umweru imikenyero y'ubururu ndetse n'imyitero y'umweru.

Inyubako ya etaje igeretse, ku ruhande rwayo hari umuhanda, uwo muhanda urimo imodoka imodoka ebyiri, hirya y'imodoka hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Abagabo bari mu kidarazo. Umugabo umwe yicaye ari gukoma amashyi, imbere ye hari ameza ariho igitambaro cyoroshejeho ibindi bitambaro ku meza, abandi bagabo babiri barahagaze n'umugore umwe.

Umuhanda harimo moto imwe itwaye umugenzi ndetse na shoferi uyitwaye, hagati no ku ruhande hari, kuru ruhande hari ibiti bikikije umuhanda, hagati hari ibiti by'umutako.

Ikibuga cy'indege hariho abantu bari kuzamuka bari kujya mu ndege. Abandi na bo hasi bambaye amajire y'icyatsi. Umugabo umwe afashe igikapu, undi mukobwa ufite imisatsi ari gucekinga. Ari kureba undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Ni mu mujyi harimo urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'amamoto. Harimo amatagisi abiri atwaye abagenzi, hariho na moto zitwaye abagenzi.

Umumotari uri kumwe nundi mugabo, afite moto ari gukoza ku gasanduku, iruhande hari amazu, ndetse no hakurya hari icyapa gitukura.

Abamotari bari ku murongo bamanitse akaboko, bambaye amakasike ndetse bamwe muri bo bari guseka bafite moto zitandukanye ndetse ziri ku murongo.

Abagabo bari kuri moto bambaye ibitaburiya by'umweru n'amabote y'umweru, batwaye moto hariho ibirango byanditseho FPR, ndetse no hirya yabo hari imodoka.

Mu muhanda harimo imodoka zitandukanye ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda, harimo imodoka y'umweru z'umweru ndetse n'imodoka zitukura ku ruhande hari amazu ageretse ndetse n'ibiti.

Urujya n'uruza mu isoko harimo abantu batandukanye, ndetse n'imodoka muri gare, harimo abagenzi baje gutega bajya mu bice by'ibihugu bitandukanye, harimo imodoka nazo zitandukanye, harimo kwasiteri n'amatagisi.

Ibimodoka binini byanditseho litiko. Bifite amapine y'umukara. Uruhande rumwe ni amapine abiri n'urundi ni amapine abiri. Biri ku murongo ni byinshi.

Abagabo babiri bambaye amataratara, umwe afite umupira wanditseho makumyabiri na gatanu, undi mugabo na we yambaye ishati y'ubururu, afite baro.

Abakinnyi muri sitade bari kwiruka, gukora amarushanwa yo kwiruka, ni basore batandukanye, harimo intebe z'icyatsi n'umuhondo. Ndetse harimo n'ubahagarariye,..

Umukobwa ufite umupira mu ntoki yambaye jese y'umukara yanditseho umubare karindwi ndetse afite n'umusatsi w'umutuku ari muri stade.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'igitaka, iyi modoka ifite amabara y'umweru n'umutuku, iri kugenda mu muhanda wo mu cyaro, nta kaburimbo iriho, ku ruhande hari ibyatsi n'ibihuru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo amarushanwa y'amagare ari kwirukanka. Muri aya marushanwa y'amagare bari kwiruka mu muhanda urimo kaburimbo hagati hari umucaca ,ndetse n'ibindi byuma amatara bihagaze.